Abatanga serivisi zitandukanye zijyanye n'amafaranga, banezezwa nuko'uko imirimo bakora ibasha kubaha amafaranga, bityo bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, bamwe muri aba bakozi, ni abakora mubijyanye n'amafaranga, aho batanga mobayiro mani ndetse n'izindi serivisi zitandukanye.

Ibigo bitandukanye by'itumanaho bikangurira abaturarwanda kubigana kugira ngo babafashe muri serivisi z'ikoranabuhanga zigiye zitandukanye, haba mu kohereza amafaranga ndetse n'ubundi buryo butandukanye, bwifashishwa kugira ngo abaturage babashe kuba babona serivisi nziza, zitanzwe n'aya masosiyete y'itumanaho.

Ibigo bitanga serivisi z'itumanaho birimo ikigo cya Airtel gifasha abaturarwanda kugira ngo babashe kuba babona serivisi zirimo amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bityo babashe kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi zitandukanye, birimo amabanki ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bitanga serivisi zijyanye n'amafaranga, bifasha abaturarwanda kuba babona amafaranga abafasha kugira ngo babashe kuba bakwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi z'itumanaho, birimo MTN, Airtel Tigo ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abaturarwanda kubona serivisi ziinjyanye n'amafaranga kugira ngo babashe kwiteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi bakorera ibigo by'itumanaho birimo MTN ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, bafasha abakiriya babo kugira ngo babashe kuba babona amafaranga, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ikoranabuhanga, zirimo amafaranga ndetse n'ibindi.

Abatanga serivisi zijyanye n'amafaranga banezezwa n'uko imirimo bakora ibasha kubatunga, aho babasha kuba bafasha abaturage mu kubona serivisi zitandukanye zijyanye n'amafaranga bityo bakabasha kuba bakemura ibibazo bitandukanye hirya no hino mu gihugu.

Airtel ni ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, aho gifasha abaturarwanda kubona serivisi zijyanye n'amafaranga, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gukorera hamwe ni kimwe mu bifasha abantu kuba batera imbere, ikindi kandi iyo bakoreye hamwe babasha kuba batsinda bakaba bagera ku ntego bityo bakaba bahabwa ibikombe bitandukanye ndetse n'ibihembo bigiye bitandukanye.

Amashyirahamwe agiye atandukanye agirwa inama yo kuba yagana ibigo by'imari; nk'amabanki atandukanye kugira ngo babashe kuba babaguriza amafaranga. Bifashisha kugira ngo babashe kuba bakora imishinga yabo neza. Ni byiza ko twese twumva agaciro ko kuba twagana ibi bigo by'imari kugira ngo tubashe kuba twagurizwa amafaranga yo kwiteza imbere.

Ibigo by'amabanki ndetse n'abikorera ku giti cyabo, bahurira hamwe kugira ngo babashe kuba baganira bityo ama banki ashobore kuba yabaguriza amafaranga. Ashobora kuba yabafasha mu kwiteza imbere. Aho bahanga imishinga mishya igiye itandukanye.

Amashyirahamwe akora ubworozi bw'inkoko anezezwa n'uko kugira ubufatanye mu gukora imirimo nk'iyi bibasha kuba byabateza imbere, kuko gushyira hamwe bibafasha kubona ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umwuga wabo ube wabasha kugenda neza.

Abacuruzi bagana ibigo by'amabanki ndetse n'amakoperative kugira ngo babashe kuba baguririza amafaranga bityo batangira ubucuruzi butandukanye babashe kuba bakiteza imbere, ni byiza ko tuba tugomba kugana ibigo by'imari kugira ngo batugurize amafaranga bityo tubashe gukora imyuga ishobora kuba yaduhesha amafaranga.

Abaturarwanda bakangurirwa kugana ibigo by'imari ndetse no gukorera hamwe kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere by'umwihariko, tubona abantu bashora amafaranga yabo mu bijyanye n'ubwubatsi kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'amafaranga cyane cyane BPR ndetse na Equity byafashije abatura Rwanda mu kwiteza imbere kuko babasha kuba babaguriza amafaranga ikindi kandi ubu buryo bwafashije abatura Rwanda kugira babashe kuba bakiteza imbere.

Icyapa kigaragaza ubwoko bwa serivisi iyi hoteri itanga bugiye butandukanye ikindi kandi ibi bigo bikaba bifasha abantu kubona serivisi zitandukanye zijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Abacuruza akabari bagira ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ikindi kandi mu tubari hakaba harimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha kugira ngo abaza bagana izo nyubako babashe kubona serivisi nziza.

Inyubako zitanga serivisi z'akabari, zikaba zifite ibyobwa bitandukanye, byiganjemo amapirimusi ndetse n'amamitsingi, aho abagana izi nyubako babasha kubona, ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi zo kugaburira abakiriya, bagira ubwoko bw'amafunguro atandukanye ndetse n'ibinyobwa, birimo inzoga za Skol, byeri ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, ikindi kandi bagira n'ubwoko bw'ibiryo birimo inyama, ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Abakora umwuga w'ubucuruzi by'umwihariko abacuruza ibicuruza bigiye bitandukanye, banezezwa n'uko umurimo bakora ubasha kubatunga bakabasha kuba babona amafaranga ashobora kuba yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Mu nyubako zicururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ziba zifite umutekano kugira ngo babashe kuba barinda ibyo bacuruza bityo bibe byagera ku bakiriya byujuje ubuziranenge.

Umuntu wicaye mu iduka ry'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye akaba ari gucuruza, abakora umwuga w'ubucuruzi banezezwa n'uko imirimo bakora y'ubucuruzi ibasha kubateza imbere kuko babasha kubona amafaranga.

Umuntu wicaye mu iduka cyangwa se botique y'ibicuruzwa bitandukanye, aho ari gucuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo kurya ndetse n'imyambaro kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga.

Iduka ricuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo amavuta yo kwisiga. Abakora uyu mwuga w'ubucuruzi banezezwa n'uko umurimo bakora, ubasha kubatunga kuko babasha kubona amafaranga bityo bakabasha kwiteza imbere.

Abacuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye banezezwa no kuba babona abakiriya bahagije babasha kuba bakiteza imbere bityo umwuga wabo w'ubucuruzi ukagenda neza, ni byiza ko twese twumva akamaro ko kuba twashora amafaranga yacu mu bucuruzi kuko bibasha kuba byadutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako zitanga serivisi zitandukanye by'umwihariko insengero ndetse n'amatorero, bikangurirwa kugira ibikorwaremezo byujuje ubuziranenge kugira ngo babashe kuba barinda abayoboke babo, impanuka zigiye zitandukanye.

Abaririmbyi baririmba mu matorero ndetse no mu nsengero zitandukanye banezezwa n'uko iyo barimo guhimbaza Imana mu ndirimbo bishima kandi bagatanga n'ibyishimo ku bayoboke b'amatorero ndetse n'insengeri zigiye zitandukanye.

Inyubako y'urusengero yubakishijwe amatafari, ikindi kandi ikaba isakajwe amabati y'umutuku, hafi yayo hari ubusitani burimo ibiti by'imikindo birebire, bifasha kugira ngo habashe kuba harimbishijwe.

Abayobozi b'amatorero ndetse n'amadini bakangurira abayoboke babo kuba bakora imirimo itandukanye ishobora kuba yabateza imbere, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kuba twakora imirimo igiye itandukanye ishobora kuba yaduteza imbere twishingikirije amatorero ndetse n'amadini tubarizwamo.

Abaririmbyi baririmba mu madini ndetse n'amatorero atandukanye, bashishikarizwa kunga ubumwe kugira ngo mbashe kuba bakora umurimo neza. Ikindi kandi iyo baririmba banezeza abayoboke kugira ngo babashe kuba bumva bishimye, bityo bagahimbaza Imana.

Inyubako y'urusengero iri mu mabara y'umweru, ikaba isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hakaba hari ikibuga cyisanzuye kiriho ibyatsi, ikindi kandi kuri iyo nyubako hakaba hafi yaho hari ibiti by'imikindo birebire.

Inyubako zihuriramo abantu benshi zirimo insengero ndetse n'izindi zitandukanye, zikangurirwa kugira ibikorwaremezo byujuje ubuziranenge kugira ngo babashe kuba barengera abayoboke babo, babarinda impanuka zigiye zitandukanye.

Amadini ndetse n'amatorero mu Rwanda, akangurira abayoboke babo gukora ibikorwa bitandukanye bibafasha kugira ngo biteze imbere. Ikindi kandi abayobozi b'aya matorero n'amadini, batanga amahugurwa atandukanye ku bayoboke babo kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko kwiteza imbere.

Mu matorero ndetse n'amadini agiye atandukanye mu Rwanda abayoboke b'amadini bahurira hamwe kugira ngo babashe kuba bafata imyanzuro ikindi kandi baganirizwe ku mirimo ishobora kubateza imbere kugira ngo babashe kwitunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bigira ibikorwaremezo bitandukanye birimo amazi yifashishwa kugira ngo abantu boge, ikindi kandi bakagira n'ibibuga bitandukanye bikinirwaho imikino igiye itandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo twavuga amahoteli ndetse n'ibindi bigo bitanga serivisi z'amacumbi bivuga ko kuba bagirira isuku ibyumba byabo kandi bakagirira uburiri buhagije bibafasha kugira abakiriya babo bishime kandi babateze imbere.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku abaza babigana, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga, intebe zigezweho ameza ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha kugira ngo, batange serivisi nziza ku bakiriya.

Ibikorwa remezo birimo inyubako nziza zigizwe n'amabara atandukanye harimo irange ry'umuhondo, hirya y'inyubako hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye, ikindi kandi ku nkengero z'inyubako hari imihanda myiza ya kaburimbo.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, amahoteli ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abaturarwanda kubona serivisi zi zitandukanye, harimo kubona ibiryo, amacumbi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bifasha ba mukerarugendo baza babigana.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bageze serivisi nziza ku baza babigana bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibitanda, ameza ndetse n'utubati dufasha abagana aho kugira ngo babashe kuba baruhuka neza.

Ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'amoko atandukanye bicuruzwa mu bigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo ni bimwe mu bifasha abagana ibyo bigo kugira ngo babashe kuba babona ibyo bakeneye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubukerarugendo, twavuga amahoteri ndetse n'abandi batanga serivisi z'amacumbi, banezwa ko kuba bafite ibikoresho bitandukanye, byifashishwa, twavuga nk'amateleviziyo, intebe ndetse n'ibitanda bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo, ikaba ikikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye, ikindi kandi hafi y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye, ikindi kandi bukaba bifasha kugira ngo abagana iyi hoteli, babashe kuba bakishima.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bigira ibikorwa remezo birimo inyubako zigezweho, ubusitani bwiza ndetse n'ubwogero bufasha abahagana kugira babashe kuba bakwishima, bityo babashe kuba babaho banezerewe.

Abantu benshi cyane bari mu nzu yagutse, yubakishijwe ibirahure ndetse n'ibindi byuma bitandukanye, muri iyo nzu hakaba harimo ibikoresho by'indangururamajwi bibafasha kugira ngo babashe kuba bakumvikana.

ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo bagira ibikoresho bitandukanye byiganjemo, ameza, intebe, inyubako zigezweho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza kuza babigana.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bagira inyubako zigezweho kandi zifite ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza, ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha kugira batange serivisi nziza ku bakiriya baza babigana.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, banezezwa no kuba bafite ibikoresho bitandukanye birimo, ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi nziza, byafashije abakiliriya kugira babashe kuba bagezwaho, serivisi nziza.

Inyubako y'igorofa isakaje amabati y'umutuku ,ikindi kandi ikaba iri mu mabara y'umweru, hafi yayo hakaba hari ikibuga giparitseho imodoka. Ikindi kandi izi nyubako zikaba zifasha abazigana kubona serivisi zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo, bigira ibikorwa remezo, aho bigira ibyumba biba birimo ibitanda bifasha abagana ibyo bigo kugira ngo babashe kuba babona aho baruhukira, ikindi kandi ibi bigo biba bifite ibindi bikoresho bitandukanye.

Bamwe mu bagana amasosako atandukanye mu gihugu, banezezwa nuko babasha kubona ibicuruzwa bitandukanye, twavuga nk'imyenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho babasha kugura kandi bakabona ibyo bakeneye, ku giciro kiza.

Imashini zidoda ni zimwe mu zifasha abantu gukora imyuga igye itandukanye y'ubudozi kugira babashe kuba bakiteza imbere, ikindi kandi abakora umwuga w'ubudozi banezezwa no kuba babasha kuba badoda imyenda igiye itandukanye bibasha kuba byabahesha amafaranga.

Abacuruzi bacururiza mu masoko agiye atandukanye, bakaba bacuruza ibicuruzwa birimo imyambaro, ibyo kurya, ibikoresho byo mu rugo, ibi bakaba babikora kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Mu masoko agiye atandukanye hagaragara abacuruzi bacuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye burimo: imbuto, imboga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi abakora ubu bucuruzi banezezwa nuko babasha kubona amafaranga abafasha kugira ngo babashe kubona ibyo bakeneye.

Abacuruzi bacuruza ibitunguru banezezwa n'uko ku isoko ibitunguru babasha kubona abakiriya babihaha bityo bakabasha kubona amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabasha kubona ibyo bakenera.

Abakora umwuga w'ubucuruzi by'umwihariko abacuruza imyambaro batangaza ko imirimo yabo bakora ishobora kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko babasha kubona amafaranga bityo bakabasha kuba babona ibyo bakeneye, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gushora amafaranga yacu mu bucuruzi by'umwihariko imyambaro.

Umucuruzi uri mu gasoko gacuruza imyambaro, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hafi ye hakaba hari abana bato baje kugura ibyo bikoresho, ikindi kandi abakora uyu mwuga w'ubucuruzi, bakaba babasha kuba babona amafaranga abasha kubateza imbere.

Hirya no hino mu gihugu abakora ubucuruzi butandukanye cyane cyane abacuruza imyambaro banezezwa n'uko imirimo bakora ibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi bakabasha kwiteza imbere, ikindi kandi kuba badafite inyubako baba babasha gukorera ubucuruzi bwabo bibabangamira kuko baba bashobora kunyagirwa n'imvura ikindi kandi bakicwa n'izuba.

Mu masoko atandukanye mu Gihugu usanga bacuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, imyambaro, ikindi kandi bamwe mu bagana muri ayo masoko usanga bashorayo ibintu bitandukanye, ikindi kandi ugasanga bakoresha abana bakiri bato imirimo itandukanye aho babakorera imitwaro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, abacuruza ibicuruzwa bitandukanye, urugero nk'abacuruza imyambaro ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, banezezwa n'uko babasha kuba babona amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bitandukanye, hirya no hino mu miryango.

Ku masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu, hagaragara abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo inkwi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe kuba babona amafaranga abasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umucuruzi wicaye mu iduka ry'imyenda, akaba ari gucuruza ubwoko bw'imyambaro ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibitenge, ibikapu ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba bimufasha mu kwiteza imbere, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Mu masoko yagiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, hagaragara abacuruzi bacuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, bimwe muri ibyo bicuruzwa twavuga abacuruza imyambaro ndetse n'ubundi bwoko butandukanye, bityo bakaba babasha kuba babona amafaranga, yifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi zijyanye n'ibiryo, ziba zifite ibikoresho bitandukanye, birimo ameza, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye, bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza ku bakiriya baza babigana.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu cyane cyane abatwara amapikipiki banezezwa nuko kuba bafite ibikorwa remezo birimo imihanda igezweho ya kaburimbo, inyubako, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora akazi kabo neza bizeye umutekano.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa n'uko umwuga bakora ubasha kubatunga kandi ukabatungira n'imiryango, ikindi kandi banezezwa n'uko kuba bafite ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'inyubako zitandukanye bibasha kuba byabarinda kugira ngo ibinyabiziga byabo bibashe kuba byaramba.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa no kuba bafite ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'amatara, ashobora kuba yamurika mu gihe cy'ijoro bibarinda impanuka zigenda zitandukanye, bityo bagakora umwuga wabo neza.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo bibafasha mu gukora aka kazi kabo, byabafashije kugira ngo biteze imbere kuko babasha kubona amafaranga ashobora kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu hifashijwe ibinyabiziga bitandukanye, twavuga nk'imodoka banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo bitandukanye bibafasha kugira ngo bakore umwuga wabo, bibarinde kuba bakora impanuka zigiye zitandukanye bityo bakaba bagira iyo bagiye amahoro.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki banezezwa nuko kuba bafite ibikorwaremezo birimo imihanda ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba batanga serivisi nziza ku bakiriya.

Abatanga serivisi zitandukanye zo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa nuko kuba hari ibikorwaremezo nk'imihanda bibafasha kugira ngo bakore akazi kabo neza, ikindi kandi ibikorwaremezo bibafasha kugira ngo babashe kuba bagira iyo bagiye amahoro.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu cyane cyane abifashisha amagare ndetse n'imodoka banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo birimo imihanda ya kaburimbo, inyubako zigezweho bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora akazi kabo neza.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo bitandukanye, urugero nk'imihanda ndetse n'amatara abafasha kugira ngo babashe kuba bagenda badafite imbogamizi zitandukanye, ikindi kandi abagore na bo ntago basigaye muri uyu mwuga kuko usanga baratinyutse bakiteza imbere muri ubu buryo.

Abantu babiri bicaye ku ipikipiki, bakaba bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, banezezwa n'uko umurimo bakora ubasha kubatunga kuko ubazanira amafaranga.

Umumotari wicaye ku ipikipiki ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari ibikorwa remezo bitandukanye birimo umuyoboro w'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'inyubako zitandukanye, imbere yaho hakaba hari abantu.

Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, by'umwihariko abatwara amapikipiki banezezwa no kuba bafite ibikorwaremezo nk'imihanda, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora umwuga wabo nta mbogamizi, kuko baba bafite imihanda myiza.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amapikipiki, batangaza ko kuba bafite ibikorwaremezo bitandukanye, bifashisha nk'imihanda ndetse n'inyubako zitandukanye; bibarinda kuba bagira impanuka zitandukanye bityo bagatanga serivisi nziza ku bakiriya.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu cyane cyane abatwara amagare, ndetse n'amapikipiki, banezezwa nuko kuba bafite ibikorwa remezo birimo imihanda myiza, ndetse n'amatara ku mihanda, bibafasha kugira babashe kuba babona umutekano mu gihe bava cyangwa bajya aho bapanze.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, bifashishije amapikipiki, banezezwa no kuba hari ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda, bibafasha kugira ngo bakore akazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu n'ibintu bityo babashe kwiteza imbere.